Abagore bicaye ahantu muri jaride, imbere yabo hicaye umuganga ari kugenda abapima bakurikiranye, ari kubashyiraho igipimo ku kuboko, kugira ngo abashe kubasuzuma arebe umuvuduko w'amaraso wabo uko uhagaze mu mubiri, bamenye uko babafasha n'uko babakurikirana.

Abana bari kuriba bagiye kuvoma, kugira ngo bashake amazi meza yujuje ubuziranenge atunganyijwe, birinde gukoresha amazi mabi, ashobora gukwirakwizwa n'indwara ziterwa n'umwanda, biturutse kuba bakoresha amazi mabi adasukuye.

Ahantu hanini hateguwe, hateganyijwe kujya hahurizwa amazi kugira ngo yitabweho akorerwe isuku, akoreshwe n'abaturage asa neza ku buryo nta ngaruka yabatera bivuye mu mwanda.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe bacecetse batuje, bateze amatwi umuntu ubari imbere, uri kubagezaho ikiganiro kugira ngo ufite ikibazo abashe kuba yakibaza, kandi n'ufite igitekerezo abone uko agitanga bose bamwumva.

Umusaza wicaye ku ntebe, yakuyemo ukuboko kumwe kw'ikote, imbere ye hahagaze muganga, yamushyizeho igipimo ku kuboko, ari kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe uko ahagaze, bamenye ubufasha bamuha nuko bamwitaho.

Umubyeyi wicaye uteruye umwana, imbere ye hari umuganga ari gufasha uwo mubyeyi, guha umwana imiti akoresheje agakombe, kugira ngo yose ayinywe idapfa ubusa ikameneka igaca ku ruhande mu buryo butunguranye.

Umubyeyi wicaye ku ntebe ateruye umwana mu ntoki, imbere ye hicaye umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gukora uwo mwana ku itama ari kumusuzuma ngo arebe uko ameze, yumve uko ubuzima bwe bugenda kugira ngo amenye uko amufasha.

Abasore n'abakobwa bahagaze ahantu hamwe bishimye, bambaye imipira isa y'ubururu n'ingofero z'umweru, bari kwifotoza bazamuye ikiganza hejuru bafunze igipfunsi, bari kwerekana ko ibyo bari barimo byagenze neza kandi babyishimiye.

Umwana wunamye kuri robine, ari gukaraba intoki neza n'amazi n'isabune kugira akureho imyanda, bishe kuba yakwinda indwara zikwirakwizwa n'udukoko, tuba turi mu ntoki buri iyo utakarabye intoki neza.

Abana bicaye kuri robine ari babiri harimo uwambaye agapira k'umutuku n'uwambaye agashati n'agapantaro bisa, bari gukaraba intoki amazi ari kumanuka muri robine kugira ngo bakure imyanda ku ntoki zabo, babashe kuba bakwirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Abana benshi bateraniye kuri robine, batezeho amaboko bari kubyigana, ugeze imbere akaba ari we ukaraba intoki, bari kurwanira kugera ku mazi kugira ngo babashe gukaraba bakure imyanda ku ntoki, birinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda wo ku ntoki.

Abantu bari ku mugezi utemba, harimo umugore ufite ijerekani y'umuhondo wayidubitse muri ayo mazi ari kuyavoma, iruhande rwe hari umugabo uri kogerezamo igare, ari amazi adasa neza umuntu atakabaye akoresha mu buzima bwa buri munsi ,kuko yamutera indwara zitandukanye zitewe no gukoresha amazi mabi.

Iriba riri ahantu bavoma amazi aturutse munsi y'ubutaka bari ugupompa akazamuka iriba rizengurutsweho n'abantu benshi harimo abagabo n'abana bose bagiye kuvoma kugira ngo babone amazi meza yo gukoresha mu rugo bakomeze bite ku buzima bwabo.

Abana benshi bicaye mu cyumba bambaye imipira isa, bicaranye n'abantu bakuru barikugenda babaganiriza, babagira inama ku buzima kugira ngo babashe kumera neza mu myigire yabo no mu mibereho.

Mu bantu bicaye mu gisambu, bicaye mu gicucu imbere yabo hari umuganga ufite indangururamajwi mu ntoki afite n'ikayi bamuteze amatwi arikubagezaho ijambo bose bacecetse kugira ngo, ufite ikibazo akibaze ufite igitekerezo agitange bose bamwumva.

Umwana uhagaze kuri robine, wambaye agapira ku mutuku, yazinze amaboko y'umupira, ari gukaraba intoki, azikarabira kuri robine, amazi avuye ku ntoki ashoka hasi kugira ngo akorere isuku intoki, akureho imyanda iriho yamutera indwara.

Abantu benshi bateraniye kuri robine, bari kuvoma imbere n'inyuma, bagiye bafite amajerekani n'indobo, kugira bose babone amazi meza yo gukoreshwa mu rugo, havoma umwe avaho, hajyaho undi.

Umwana uhagaze kuri robine, ari kunywa amazi ayanywesha intoki n'umunwa, amucitse ari kumeneka, ubona ko atari ibintu bisa neza, ashobora kuba arimo n'umwanda bitewe n'ukuntu ari kuyafata.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe imbere y'icyumba cy'inama bavuye mu nama, bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo izabibutse iyo nama bakoze ibyo yagezeho, babyifashishe babikurikiza babishyira mu bikorwa.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bahuriye mu gikorwa kimwe, bambaye imipira isa harimo n'Abapolisi bari gukora akarima k'igikoni batereraho imboga, kugira ngo byifashishe mu kongera ubuzima bwiza bw'indyo yuzuye.

Umwana uhagaze, afite icupa mu ntoki ririmo amazi, ari kurikubita ku rukuta, akayapfundura, akagenda ayanyanyagiza ku rukuta kugira ngo hagende hatoha gahoro gahoro, bikamushimisha, ari gukina iby'abana.

Abantu benshi bateranye, bahagaze ahantu hamwe bavuye mu nama, bari bahuriye mu gikorwa kimwe kugira ngo bige ku bintu bitandukanye kandi babashe kuba babifatiraho imyanzuro, bamwe bahagaze abandi bicaye, bari kwifotoza bashaka ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe, bari mu nama bicaye ku meza imwe bakoze uruziga, bari kuganira batanga ibitekerezo, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'impapuro, buri wese ari gutangaho igitekerezo ku nama barimo.

Abantu benshi bari kuvome bagiye kuvoma amazi kugira ngo babone amazi meza asukuye atunganyije yo gukoresha mu ngo zabo, batonze umurongo batondesheje amajekani kugira ngo bavome neza nta kavuyo havaho umwe hajyaho undi.

Abantu bateraniye hamwe imbere y'inyubako ku rubaraza rwayo, bari kwifotoza, harimo abaganga b'abagabo bavanze n'abazungu, bose bambaye udupfukamunwa, bari bahuriye mu gikorwa kimwe bari kucyishimira, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugore uteruye umwana mu ntoki, imbere ye hari umugabo wambaye amarinete, uri kugaburira uwo mwana ibiryo akoresheje ikiyiko, afite isahani irihuri mu ntoki, kugira ngo bakomeze gushyigikira imikurire y'abana, bafata indyo yuzuye ku ifunguro rya buri munsi.

Umugore uri kugenda mu muhanda, yikoreye ijerekani, ku mutwe yatezeho ingata, iruhande rwe hari abana bari kumunyuraho bamureba avuye kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo, kugira ngo abashe kwita ku bana n'umuryango we muri rusange babona amazi meza.

Ahantu haririra abantu bavoma amazi bapompye aturutse munsi y'ubutaka, hateraniye abantu benshi bahashyize amajerekani, amanasi n'indobo baje kuvoma ngo barebe ko babona amazi meza, hari abana, hari n'abagore.

Ahantu hateraniye abantu benshi harimo abagabo, abana n'abagore, imbere yabo hari abantu, harimo umugabo uhagaze wambaye imyenda icikaguritse n'undi mugabo umuhagaze imbere, hagati yabo hari umugore wunamye upfukamye, bari gukina teyatere abo bandi bose bari kubareba.

Abana b'abakobwa bambaye inifomo z'ishuri, bahagaze kuri robine, bari gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo bakure umwanda ku ntoki zabo, wababatera indwara zitandukanye zituruka ku mwanda nyinshi.

Abagore bahagaze bari kuvoma, ari batatu, umwe ahagaze imbere yabo ari kuvomera amazi mu ndobo, abandi bahagaze inyuma bari gupompa amazi aturuka munsi y'ubutaka, kugira ngo uri imbere yabo abone ayo kuvoma.

Abana bahagaze bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo bakureho umwanda ku ntoki, hasi yabo hateretse ibasi bari gukarabiramo, imbere yabo hahagaze umugabo uri kumusukira amazi ku ntoki, areba ko bari gukaraba neza.

Ababyeyi bicaye ahantu mu gicucu bateruye abana mu ntoki, imbere yabo hari umuganga uri kugenda ubacaho, ubafasha abavurira abana kugira ngo akomeze kubitaho bakomeze kugira imikurire myiza n'ubuzima bwiza.

Abantu bahagaze ari benshi bambaye imipira isa n'ingofero zisa bambaye imipira y'ubururu n'ingofero mweru imbere y'abantu bafite icyapa bari kugenda ba mamaza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Ingamba zashyizweho mu igihugu cy'u Rwanda mu kwirinda gukwirakwira guterwa inda zitateganyijwe mu bangavu kugira ngo bikumirwe kuko bigira ingaruka mbi bituma abana batarangiza amashuri kandi n'abo babyaye bakabaho nabi bagakura nabi.

Umugore wicaye ku ntebe yashyize ukuboko ku meza, imbere ye hari umuganga umwambitse igipimo ku kuboko arimo apima umuvuduko w'amaraso kugira ngo amenye uko amufasha nyuma y'ibisubizo ari bubone.

Abana bahuriye mu migezi bafite indobo bagiye kuvoma amazi atemba. Amazi adasa neza afite ingaruka ku buzima bw'umuntu gihe yayakoresha utayatunganyije mu buryo bwabugenewe kugira ngo imyanda imayikuremo.

Ameza yicayeho abaganga, imbere yabo hicaye umukecuru, bari kumufata ibizami, bamutera urushinge ku rutoki bagakuraho amaraso, ayo maraso bakaba ariyo bakoresha bari gufata ibizami kugira ngo babone ibisubizo by'indwara afite.

Abana bahagaze bambaye inifomu y'ishuri, bari kwifotoza bazamuye amaboko bishimye, inyuma yabo bafite abashyitsi bari babasuye, ni byo byishimo bafite bari n'abazungu n'abayobozi babo.

Abana bari ku iriba, baje kuvoma amazi barikikije, imbere hateretse ijerekani, undi ahagaze inyuma ari gupompa amazi, azamuka ava munsi y'ubutaka, kugira ngo muri iyo jerekani batezeho, amazi ajyemo bavome neza.

Umugore w'umuzungu wambaye umupira w'ikigina, ufite indangurumajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'abantu, ari kugezaho ijambo, bamuteze amatwi, bose bacecetse, bari kuganira ku bintu byerekeranye n'ubuzima.

Abantu bahagaze hamwe bambaye imipira isa y' ubururu yanditseho UNICEF, bahuriye mu gikorwa kimwe bari bari mu nama bari kwifotoza kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, izajya bibutsa icyo gihe kugira ngo ibyo bavugiyemo byumvikanyeho bazajye bahora babyibuka babyibukiranya.

Umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, madamu Jeannette Kagame, ari kugezaho ijambo ku bantu bamukurikiye, abaganiriza ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe bw'imitekerereze kugira ngo bose babashe gukomeza kubwitaho kandi bamere neza.

Ahantu mu cyaro hicaye abantu imbere y'umuryango bari kuganira harimo abagore batatu n'abagabo babiri, hari n'umwana umwe bishimye bameze neza bari guseka, ubona ko bafite ubuzima bwiza nta kibazo ubona ko babayeho neza kandi babanye neza n'abaturanyi.

Ubufasha butangwa n'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda kugira ngo bafashe abantu gukomeza kubitaho, kubarinda, kubagira inama, kubaganiriza ku byo mu mutwe mu buzima bwo mu mutwe kugira ngo bose babashe gufashwa kandi bitabweho mu gihe gikwiye.

Imodoka nini ikoreshwa nk'ibitaro iba itwaye imiti ikenewe n'ibikoresho bikenewe kugira ngo bahe abantu ubuvuzi bakabasanga aho bari mu buryo bworoshye kandi bwihuta, bakabasha kuba babafasha babegereye bitabasabye kujya ahantu kure.

Umugore uhagaze ku nyubako ku rubaraza ari guseka yishimye. Umugore wambaye umupira utukura n'agapira k'umukara imbere, yishimye ari guseka ntakibazo afite.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari umugabo uhahagaze, wambaye ishati y'ubururu ufite indangurumajwi mu ntoki, arimo abagezaho ijambo bose bacecetse bamuteze amatwi, kugira ngo bumve icyo ababwira.

Umurasire nimwe mu bintu bitanga imbaraga z'amashanyarazi zifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu bakorere imirimo itandukanye kandi babashe kwiyitaho mu buryo bworoshye kandi bugezweho nta kibazo.

Umusaza uhagaze wambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'amabara y'umukara, uteze igitambaro ku rutugu cy'umuhondo, wakutse amenyo, ufite icumu mu ntoki, wambaye n'akagofero mu mutwe.

Umuntu uwo ari we wese n'aho ariho hose, afite uburenganzira bwo kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe, gutekereza neza, gukora neza mu byo asabwa byose, kandi akirinda ibyamuhungabanya mu buryo ubwo ari bwo bwose.

Icyumba kiri kuberamo inama, imbere hicaye umugore n'umugabo, umugore wambaye ikote ry'ubururu, afite indangururamajwi ari kugezaho ijambo kubamukurikiye kugira ngo baryumvikaneho neza, bacecetse, batuje, bateze amatwi.

Umugore uhagaze afite ikarita mu ntoki yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugira ngo dukomeze tubibuka, bitangire mu kwezi kwa kane ku itariki ya karindwi.

Umugabo wicaye muri ribigori, ku muhanda ufite ikibazo cyo mumutwe, wambaye imyenda yacikaguritse ufite umusatsi usa nabi, ufite ishashi mu ntoki, imbere ye harunze ibintu byinshi by'imyanda.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kimwe bateranye, harimo abagore bahetse abana n'abagore bateze ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hari umugabo uri kubaganiriza abagezaho inama, imbere yabo hari ikibaho ari kwandikaho, kugira ngo babashe gusobanukirwa neza ibyo ababwira.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo abantu bose bakomeze kubarengera kandi biyiteho kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, mu buryo bworoshye butavunnye kandi bwihuse.

Ahantu mu cyaro, hari umugore wicaye hanze ku musambi, imbere ye hateretse urutaro ruriho ibigori, ruriho na mironko irimo ibigori, ateruye umwana mu ntoki, iruhande rwe hicaye n'undi mwana.

Umugabo uhagaze ari guseka, wambaye umupira w'umuhondo, inyuma ye hari urukuta ruteye irangi ry'umweru, umugabo wishimye ubona nta kibazo afite, afite ubuzima bwiza buzira umuze nta kibazo.

Inyubako zubatse neza, zifite isuku, ziteye amarangi y'umweru, zateguriwe gukorerwamo n'ibitaro bya Munini kugira ngo zakire abaturage, zibahe serivisi z'ubuvuzi mu gihe cyihuse kandi gikwiye bidatinze.

Abagore benshi bateraniye mu cyumba kimwe, harimo abahetse abana imbere yabo, hari umugabo uri kubagezaho ibiganiro, imbere hari ikibaho ari kwandika kugira ngo abashe kubisobanukirwa neza, bumve ibyo ari kubabwira mu buryo bworoshye.

Karayezi "CARAES" ni kimwe mu bigo by'igihugu, byakira abarwayi bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo babiteho babafashe, babavure, babe basubira mu buzima busanzwe, bajye kubana n'abandi neza, kandi bijyanye.

Umukobwa wicaye mu ntebe, wambaye ipantaro n'isengeri y'umukara, yishimye ari guseka ubona nta kibazo afite, afite ubuzima bwiza, abayeho neza kandi yiyitaho mu buzima bwa buri munsi.

Umukecuru wicaye hanze, imbere ye hateretse igikombe, acanye ku mashyiga ariho isafuriya, afite umwuko mu ntoki, ari kugenda akoroga kugira ngo ibyo atetse bishye neza, abashe kuba yabona ifunguro ritunganye kandi riteguwe neza.

Abana bicaye ari benshi bahuriye ahantu hamwe baseka, banezerewe baganira bameze neza nta kibazo bafite kandi bari kumwe n'abantu bari kubaganiriza kugira ngo bakomeze kubaha inama zituma bakomeza kubaho neza, bakagira ubuzima bwiza mu mibereho yabo.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, uri kugenda mu muhanda wambaye imyenda yacikaguritse, ufite umusatsi urimo akavuyo, ufite imineke mu ntoki byamucanze ari kugenda adafite iyo ajya agenda azenguruka gusa.

cy ko kizereubucuru'shin yifashishwaccuku

Umugabo uhagaze imbere y'indoregwamo wambaye umupira w'umweru, afite akadoga k'umweru mu ntoki, ari kugenda agacisha mu menyo akuramo imyanda yafashemo mu gihe yararimo afata ifunguro, kugira ngo abashe ku yayakorera isuku iyarinda indwara zayataka.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye gisa neza kirimo isuku, kirimo imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi, harimo n'intebe abarwayi bicaraho mu gihe bari kubafasha babavura kugira ngo babashe kuba bamererwa neza.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kimwe kirimo ibikoresho bihagije kugira ngo bagifashirizemo umurwayi waje kwivuza ngo abone ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho mu gihe gitoya bitamugoye cyangwa bimusaba igihe kirekire.

Umuganga ufite telefoni mu ntoki irimo amashusho y'igikanka cy'amenyo, bafotoye bifashishije imashini yabugenewe ifotora mu mubiri w'umuntu kugira ngo barebe indwara afite, babashe kumenya uko bamuvura n'icyo bamufasha mu buryo bworoshye.

Umwana wicaye wambaye agasengeri k'umuhondo yasamye araramye, imbere hahagaze umuganga wambaye ga z'umweru ku ntoki, afita utwuma mu ntoki twagenewe kuvura amenyo kugira ngo abashe gufasha uwo mwana amuvure.

Umuganga wita ku ndwara zo mu kanwa, uvura amenyo afite igikangu mu ntoki afite udukoresho twabugenewe, ari kugitunganya agenda akuramo imyanda mu ntoki muri ayo menyo afite ikibazo.

Umuntu wicaye ku ntebe yeganye yararamye umutwe yawushyize hejuru yasamye, imbere ye hahagaze umuganga wambaye ga mu ntoki ari kumuvura mu kanwa, ari kugira ngo amufashe amuhe ubuvuzi bwiza kandi bugezweho bwizewe.

Umuntu wicaye imbere ye hahagaze umuganga; ufite udukoresho twifashishwa mu kuvura amenyo twabugenewe, yasamye , umuganga ari kumuvura amenyo kugira ngo amufashe kumuvura neza kandi ku buryo bwiza bwihuse; nta kibazo kibikurikiranyemo.

Umuntu wicaye ku ntebe yegamye, imbere ye hari umuganga wambaye agapfukamunwa n'ishati y'umweru ufite nagaha ku ntoki, afite ibikoresho byabugenewe mu kuvura amenyo, ari kumureba mu kanwa ngo amufashe amuvure.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, uhagaze imbere ya mirrior ari kwirebamo, afite akadodo mu ntoki k'umweru, yasamye arimo kugacisha mu menyo kugira ngo akuremo imyanda yahezemo, ayivanemo yose nta kindi gisigayemo akorera amenyo ye isuku.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo intebe umurwayi yicaraho igihe bari kumuvura imbere yiwe niba bateretse imashini igezweho yifashisha mu buvuzi, hari n'intebe umuganga yicaraho mu gihe ari guha ubufasha uwo murwayi, urwariye muri icyo cyumba.

Umugore wicaye, iruhande rwe hahagaze umwana, bari kuganira n'umwana. Imbere yabo ku meza, hari impapuro bari kugenda barambura, babara bava kuri rumwe bajya ku rundi, kugira ngo baze kubona umubare, ariko baseka.

Abagore bari gusoroma icyayi ku zuba, inyuma yabo hari igitebo, bahuriye hamwe bari gusoroma bashyira muri icyo gitebo kugira ngo babashe kugwiza vuba babone umusaruro, mu byo bari gukora kandi bawubone vuba.

Umusaza wicaye mu ntebe, afite akuma bifashisha bari gukora siporo mu ntoki, imbere ye hari umukobwa umwitaho, muganga ari kumufasha amwereka uko bikorwa kugira ngo abashe kugarura imbaraga mu mubiri yiteho agira ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye mu ntebe, imbere ye hari umukobwa wamushyizeho igipimo ku kuboko w'umuganga, bari kuganira, baseka, ari kumupima ngo arebe umuvuduko w'amaraso we uko uteye n'uko uhagaze mu mubiri kugira ngo amenye uko amufasha.

Umusaza uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, arwaye, wambaye umupira w'umweru, aryamye mu mashuka y'umweru, ku kuboko kwe bahashyizeho imashini yo kumufasha mu kumuvura, iruhande rwe hahagaze umuganga uri kumwitaho.

Umusaza uhagaze ari muri siporo, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, wambaye n'amarinete, afite ekuteri mu matwi, ahagaze ahantu ku zuba, afite utwuma twifashishwa mu mugihe bari gukora siporo mu ntoki, yarambuye amaboko.

Abantu bicaye ku meza, bari kurya baganira bishimanye bameze neza, bari kurya indyo yuzuye iriho imboga ndetse n'imbuto, imbere yabo hateretse ikirahure cy'amazi, bari kwifata neza kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze.

Umusaza wicaye, imbere kumeza hari damu yo gukina n'undi muntu bicaranye, baganira baseka, bishimye, kugirango umusaza akomeze kugira ubuzima bwiza mu mibereho ye ya buri munsi kandi yishimiye.

Abakecuru bari kugenda mu nzira, umuhanda urimo abantu benshi batambuka n'abakecuru babiri bafatanye mu mugongo, bafite ibibando mu ntoki, bakenyeye amaniro y'umweru, bambaye n'udupira dutukura, bari kugenda gahoro gahoro baganira.

Umusaza wicaye yagiye kwa muganga kwivuza, imbere ye hicaye muganga ariko umusomera amabwiriza agomba gukurikizaho kugira akomeze kwiyitaho ubuzima bwe bukomeze kugenda neza kandi afite imbaraga umubiri ukura neza nta kibazo.

Umukecuru wicaye, wambaye ishati y'umuhondo, wambaye na marinete, imbere ye hari imeza iteretseho uducupa turimo imiti, afite agacupa kamwe mu ntoki, ari gukuramo ibinini abishyira ku meza, kugira ngo abone ibyo aza kunywa akomeze kwivura.

Umusaza wicaye mu nzu afite ikirahure cy'amazi imbere ye hicaye umukobwa ari kumwitaho, ari kumushyirira ibinini ku ntoki kugira ngo abinywe, abinywesheje amazi afite mu kirahure abashe kwivura kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru wicaye wambaye rinete afite telefoni mu ntoki, iruhande rwe hicaye abandi bagore, ari kwerekana ibintu muri telefoni, imbere yabo hari impapuro bari kubiganiraho, kugira ngo bose babyumvikaneho buri umwe wese agire ubumenyi abikuramo.

Abantu babiri barikugendana harimo umugore ufite agakapu mu ntoki numugabo uri kugendera ku mbago mu ikoresha yifashisha mu gihe ari kumenyereza amaguru kugenda afite imvune yari amaze igihe arwaye ashobora kwigenza n'amaguru.

Umusaza uhagaze ari kumwe n'umugore we , uri kumufasha kumumenyereza kugenda agenda afashe ku biti kugira ngo amaguru amenyere kugenda

Ibimenyetso bitandukanye byifashishwa mu gihe bari kurwanya indwara berekana ko ari mbi ku buzima bw'umuntu, harimo ikimenyetso cyifashishwa barwanya kanseri zifata ku buryo butandukanye, harimo iz'inkondo y'umura, iy'ibere ndetse n'izindi zitandukanye.

Umunsi mpuzamahanga wahahariwe ubuzima bwiza bw'ibidukikije kugira ngo nibigira ubuzima bwiza bidufashe natwe kubaho neza kuko umwuka duhumeka tuwukura mu bidukikije, iyo byanduye bitabayeho neza natwe bitugiraho ingaruka mu buryo butandukanye.

Ahantu abantu benshi bateraniye bari gutanga urukingo rwa covid-19, hari umugabo wambaye ishati y'ubururu wambaye n'agapfukamunwa, imbereye hari umuntu wambaye ishati y'umweru, ari kumutera urukingo ku kuboko kugira ngo bakomeze kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo babashe kukirwanya gishiriraho.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, imbere yabo hicaye abagabo bafite imashini imbere yabo. Iteretse n'indangururamajwi bakaba bakurikiye, bacecetse, batuje, bateze amatwi. Bari kumva ijambo bari kubagezaho kugira ngo ufite igitekerezo agitange cyangwa inyunganizi.

Umukecuru ufite ikibazo cy'uburwayi bw'ijisho, bararivuye ,barashyizeho igipfuko gifite ibara ry'umweru, bari kumwitaho kugira ngo abashe gusubirana ubuzima bwiza, abe yakongera kumera neza atarwaye nta kibazo.

Icvyorezo cya kovid cumi n'icyenda cyahungabanyije imibereho y'abatuye isi mu buryo butandukanye mu buzima hapfuye abantu benshi abandi babura ubufasha kubera iyo mpamvu kuko ibintu byose byari byarafunzwe nta wubasha kugenda cyangwa ngo agire icyo abona cyose akeneye.

Abantu bahagaze, bahagaze ahantu hamwe bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso, bavuye mu nama kugira ngo iyo foto izajye ibibutsa ibyo baganiriye muri iyo nama, babashe kubikurikiza mu kuba bayigira ikimenyetso cy'uko iyo nama yabaye.

Umunsi wo kurwanya virusi itera SIDA mu rubyiruko kugira ngo bakwirakwize ibintu byo kuyirinda n'ibikoresho bitandukanye n'inama bagira urubyiruko, kwirinda ubusambanyi n'uwo byananiye akamenya kuba yakoresha agakingirizo kugira ngo bakomeze kurindana kandi bakomeze kuyirwanya bayihashye.

Umugore uhagaze imbere y'abantu ufite indangururamajwi mu ntoki, ari kubagezaho ijambo bose bahuriye hamwe, bamuteze amatwi, bacecetse bari kumva icyo avuga, kugira ngo batangeho ibitekerezo n'inama cyangwa inyunganizi mu gihe bikenewe.

Ubuvuzi dushobora kwizera ni ubuvuzi buri ahantu hemewe ,habugenewe, kandi bifite ibyangombwa byuko bemerewe kuvura abantu, atari ibintu bya magendu bitizewe.

Abaganga bambaye imyenda bikwije ahantu hose, bambaye n'udupfukamunwa bari kugenda mu baturage bafata ibimenyetso, bari gupima icyorezo kugira ngo barebe abantu bacyanduye babashe kuba babaha ubufasha kandi babakure mu bandi baturage bareke kuba bagikwirakwiza.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi bari mu nama, imbere yabo hicaye umugore n'umugabo umwe, ku rundi ruhande hicaye umugore w'umuzungu, bari kubagezaho ibiganiro byerekeranye n'ubuzima ababari imbere na bo babateze amatwi batuje bari kumva ibyo bababwira.

Ibintu byo kwitabwaho mu gihe umuntu ashaka kwirinda kanseri; harimo gukora siporo ngororamubiri zihoraho, kwirinda umubyibuho ukabije, kandi ukita ku buzima bwawe kugira ngo ukomeze kuba umeze neza k kuko ibiro byinshi ku mubiri w'umuntu ntabwogo ari byiza bishobora gutera kanseri na zo ubwabyo.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari umugabo uri kubasobanurira ufite indangurumajwi mu ntoki, ari kubasobanurira yifashishije amajwi n'amashusho y'ibintu biri kunyura imbere yabo ku kibaho gihari kiriho urumuri ruri gucaho amashusho.

Umugabo wicaye, ari kuganiriza abana kugira ngo abahe uburere bwiza kandi bakure mu gihagararo no mu mutwe bazi gutekereza neza nta kibazo bafite kijyanye n'imitekerereze.

Ahantu hacururizwa amarinete, hakoreshwa n'imiti y'amaso kugira ngo abantu barwaye amaso, bajye kuyahagura biyiteho, babashe kubona ibintu byose uko bikwiye kandi bakomeze kuyavura bayitaho kugira ngo bazamere neza.

Inyubako zikorerwamo n'ikigo nderabuzima cya Kanyinya cyakira abaturage kugira ngo kibahe ubuvuzi bugezweho, kandi bwihuse bitabasabye kujya ahantu kure bakora ingendo ndende, bakaba babona ubuvuzi bubegereye kandi bugezweho, mu gihe babukeneye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imashini nyinshi zigezweho, zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwiza kandi bwihuse, mu gihe bari gufasha abarwayi kugira ngo babone ubuvuzi bufite ireme, kandi bwizewe.

Utubati turimo imiti itandukanye, mu nzu ikorerwamo na foromasi aho abantu bajya kugura imiti mu gihe barwaye bayandikiwe na muganga cyangwa bayikeneye bakayifashisha mu gihe batarajya kwa muganga bakaba bayibona hafi ya bo mu buryo buboroheye kandi ibegereye.

ni muri sgopaanbhgshararafha hgg

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, giteguye neza, harimo igitanda n'intebe n'amamashini yifashishwa mu kuvura umurwayi, gifite ibishushanyo ku nkuta zabyo, ari icyumba cyateguriwe kwakirwamo abana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho, byifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi, kugira ngo bamuhe ubuvuzi bwiza bwizewe kandi bugezweho, mu gihe nyacyo kidatinze kandi kinoze.

Inzu itegure neza, ifite isuku, isa neza iteye amarangi akiri mashyashya urabona ko bayitayeho, ikorerwamo n'ibitaro byigenga bya Legacy, aho abantu bicara bategereje kuba bahabwa ubufasha mu gihe baje kwivuza.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo utubati, harimo imeza, harimo n'ibitanda byifashishwa mu gihe umurwayi arwaye, bakamuryamishaho bari kumuvura, bamwitaho mu gihe ari kwa muganga.

Icyumba cyo kwamuganga, gitewe neza, kirimo isuku, kandi muriki cyumba hateyemo imashini, kuri burinebe hariho imashini yayo, izo mashini zagenewe gufasha umurwayi urikwamuganga. kugirango abone ubuvuzi bugezweho.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, harimo ab'abaganga n'abarwayi baje babagana, baje kwivuza bicaye imbere yabo, bari kubafasha babakurikirana kugira ngo babiteho, hari n'imashini abaganga bari kwifashisha.

Icyumba kimwe cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bigiye bikurikiranye, kuri buri gitanda hagiye hari supanete, ibyo bitanda byaragenewe abarwayi kubiryamaho mu gihe barwariye kwa muganga, bafashe ibitaro, batari butahe ,barembye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bafashe abarwayi baje babagana, kubona ubuvuzi bwiza kandi bwizewe mu gihe gitoya bitabasabye gutegereza cyane, cyangwa hagire ababa baremba batarakuriranwa ngo bitabweho.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo intebe zo kwicaraho kirimo imeza iteretseho mashini, imbere yayo meza hari intebe yo kwicaraho, inyuma y'ayo hari igitanda bafashirizaho umurwayi mu gihe yaje kwivuza akeneye kuruhuka.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo isuku, harimo imashini zifashishwa mu kuvura, harimo igitanda kiryamyeho umurwayi bagiye kumuvura, bamwitaho bifashishije izo mashini kugira ngo abashe kubona ubuvuzi bugezweho kandi bwihuse.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutanga ubuvuzi, nk'imashini zigezweho, zikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho kugira ngo abarwayi bitabweho neza, kandi mu gihe gikwiye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo iswa giteguye neza, giteye amarange y'umweru ku nkuta, harimo imashini zagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho, kugira ngo zoroshye, imirimo yo kuvura, kandi abarwayi babone ubuvuzi mu buryo bwihuse, kugira ngo badatinda mu bitaro.

Inyubako isa neza ikorerwamo n'ibitaro byo kwa muganga kugira ngo ihe ubufasha abarwayi baje babagana kubona ubuvuzi bugezweho kandi mu buryo bwihuse mu gihe kitabatindije.

Foromasi iherereye i Kanombe, icuruza imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi mu gihe abantu barwaye bagiye kwa muganga, bakabandikira imiti cyangwa ufite ikibazo cy'uburwayi akaba yabona aho yajya kuwugura bimworoheye bitamusabye urugendo rurerure.

Abagabo n'abagore bari kugenda bafite udukapu mu ntoki, bambaye amashati y'umweru, bagiye ahantu gusura abarwayi, kugira ngo babiteho, babafashe kubona ibyo kurya, abatishoboye babona ubufasha bwo kubitaho mu buryo bworoshye.

Inzu irimo utubati n'intebe bitandukanye icuruza imiti, abantu bajya kuguriramo imiti mu gihe bayandikiwe na muganga cyangwa bafite indwara bakeneye kwivuza kugira ngo babashe kuyibona hafi yabo ku buryo buboroheye bitabasabye urugendo rurerure n'ikiguzi kinini.

Umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara wambaye n'ishati y'umweru mu imbere, ipantaro y'umukara ari kumusunika mu kagare agiye kumwinjiza mu muryango.

Icyumba cyo kwa muganga, giteguye neza, gisa neza, kirimo isuku, hari n'igitanda gishasheho amashuka y'umweru, imbere y'icyo gitanda hari imashini zifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi uryamye kuri icyo gitanda kugira ngo bamuhe ubuvuzi bwiza kandi bugezweho.

Inyubako zikorerwamo n'ibitaro by'Akarere muri Shyira, byita ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi kugira ngo babone ubuvuzi ku buryo bworoshye kandi bubegereye mu gihe gitoya, bitabasabye kusiragira bajya ahantu kure bikabavuna.

Imashini yo kwa muganga yeteguwe imeze neza kandi igezweho bifashisha mu gusuzuma umurwayi imbere mumubiri kugira ngo barebe ikibazo afite, nibamara kubona ibisubizo babone uko bamufasha n'uko bamwitaho.

Inyubako zikorerwamo ikigo cya Leta ku rwego rukuru rushinzwe kurwanya kanseri, aho bifatira ibyemezo n' inama zo kuba barinda abaturage kanseri mu Rwanda.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho abarwayi barwarira harimo ibitanda baryamaho kiryamyeho umugore wicaye wambaye agaserengeri wambaye n'ingofero mu mutwe, imbere ye hahagaze umuganga ufite igikoresho bifashsha bapima umutima uko utera. Bari kumuganiriza kugira ngo bamubaza uko ameze.

Inyubako nziza yubatse, yubakishije amatafari ahinye, isakajwe amabati y'ubururu iteye amarangi y'umweru, yagenewe gukorerwamo n'abaganga bita ku babyeyi babyaye mu gihe bafite abana kugira ngo babahe ubufasha bukenewe kandi bw'ibanze.

Ikigo kirimo inyubako nshyashya, zubatswe kugira ngo zitangirwe mo ubuvuzi bugezweho, kandi bafashe ababagana kubona ubuvuzi bwiza kandi bwihuse budafite ikindi kibazo bitabasabye gusiragira, bitabasabye gukora urugendo rurerure.

Inyubako zikorerwamo n'ibitaro bya gisirikare, aho bita ku barwayi batandukanye, ari abasirikare ndetse n'abasiviri, kugira ngo babavure indwara bafite, mu buryo bwizewe kandi bwihuse.

Umugore wambaye imyenda y'abakozi bo kwa muganga, imbere ye hari akana k'agahinja gatoya, kari mu bikoresho byabugenewe kugira ngo babashe kukitaho, bari kugafasha kumera neza kugira ngo gakomeze gukura gafite ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye bigiye bitonze ku murongo, kandi kuri buri gitanda hagiye hamanitseho supanete, harimo n'ibitambaro bigiye bitandukanya bitanda kugira ngo umurwayi ku gitanda aryamyeho abe yisanzuye afite umutekano.

Inyubako zo kwa muganga zisa n'izo zubatse zagenewe kwakira abaturage kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi, zibegerejwe hafi bitabasabye gusiragira bajya kure cyangwa ngo barware barembere mu rugo ahubwo zikabegera bakivuza hafi.

Imeza iteretseho ibintu bitandukanye, yifashishwa kugira ngo umuntu abe yagira ubuzima bwiza, akomeye, ameze neza, hariho ibyo kurya n'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo n'imboga n'imbuto n'amagi n'inyama n'iby'umuntu aterura ari muri siporo.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi, n'iyo umuntu yaba adahari ukaba wamuhamagara akagufasha, ukaba wabona ubuvuzi ku buryo bworoshye kandi bwihuse bitakugoye mu buryo bw'ikoranabuhanga byoroshye.

Igikapu cy'umutuku cyifashishwa mu gutwaramo imiti yo gutanga ubutabazi bw'ibanze, n'ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo atari ku bitaro, akaba yafashwa mbere yuko agezwa kwa muganga kugira ngo bamwiteho.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byagenewe kwifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, amagare yo kunyonga, intebe zo kuryamaho mu gihe abantu bari gukora siporo na tapi zo kwirukankaho zikoresha umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza akora siporo.

Umugore n'umugabo bari muri siporo, bahagaze ku zuba, bari kunywa amazi kugira ngo umubiri uruhuke utore imbaraga.

Umugore wicaye mu byatsi ari muri siporo wambaye agakabutura k'ubururu karimo amabara y'umweru, ku ruhande wambaye n'agasengeri k'umutuku, yarambuye amaguru ye yayashyize imbere, yafatishijeho amaboko ari guhina umutwe awukoza mu mavi.

Umugore wicaye uri muri siporo, wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, wambaye n'inkweto zifunze z'umweru, ufite terefone ku kuboko, wambaye na ekuteri, yarambuye ukuguru kumwe ukundi aguhinnye, ari kwirambura, yinanura kugira ngo umubiri we ukomeze kuba uhagaze neza kandi nta kibazo afite.

Umugabo uri muri siporo agenda asimbuka mu tuzu, afite umupira wa ballon wo gukina n'intoki, ari kugenda yirukankana, yambaye umupira utukura n'ikabutura y'umukara, n'inkweto z'umukara zifunze arimo siporo ameze neza yitegura.

Umukobwa ufite ikibazo, uri kwa muganga yakomeretse mu ivi, bamupfutse kugira ngo aho yakomeretse, abashe gukira vuba kandi baharinde ko hakwinjiramo, utundi dukoko dutera indwara dushobora gutuma icyo gikomere gikomera kurushaho.

Bahagaze mu kibuga biy

Umugore uri muri siporo uhagaze ku mazi, wambaye agakabutura k'ubururu, insengeri y'ubururu, inkweto z'ubururu zifite n'ibara ry'umweru, ari kugorora ukuguru yakuzamuye n'ukundi guhahagaze hasi, uko yazamuye yagufatishije amaboko mu ivi.

Umugabo wari uri muri siporo wambaye ikabutura y'umukara, isengeri y'umukara, akaba yicaye mu byatsi ari kwikanda mu matako ibinya byamufashe, kugira ngo bibashe kumurekura akomeze siporo, ameze neza, nta kibazo umubiri ufite imbaraga.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi bashobora guhora bamukurikirana bareba uko umutima utera kugira ngo nagire ikibazo bamenye uko bamutabara hakiri kare bitararenga urugero.

Umugabo uri muri siporo wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara, yicaye hasi arikukanda mu ivi afitemo uburibwe, ari kubabara arikugira ngo bugabanuke abone kuba yakomeza siporo, yifashe ahakanda kugirango hatabyimbirwa.

Ikigo cyita ku bakinnyi bakora siporo ari farumasi icuruza imiti ikangurira abakinnyi kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge mu gihe bari mu mikino itandukanye kuko ibiyobyabwenge bigira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu, kuko nyine ibiyobyabwenge bituma umuntu adatekereza neza bikaba byamugiraho ingaruka nyinshi kandi zitandukanye.

Ni igikoresho gitunganijwe neza, cyagenewe gufasha umurwayi igihe afite ikibazo, bari kumuha ubuvuzi, kugira ngo akire neza kandi mu gihe cyihuse bamwitaho mu buryo bworoshye.

Umuntu wicaye ku gitanda kwa muganga, yambaye urukweto rumwe urundi yarukuyemo, yagize ikibazo cy'ukuguru kwavunitse, barimo bamuvura kugira ngo amagufwa asubirane neza kandi n'umubiri bawurinde kuba wabyimbirwa.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo inshinge, ibinini, amacupa agiye arimo imiti n'ibikarito na ga zifashishwa mu kuvura.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko magufi, ufite umupira wo gukina mu ntoki, ugiye muri siporo kugira ngo akomeze gutuma ubuzima bwe bumera neza, agakora siporo yirinda indwara zaturuka ku mubyibuho ukabije cyangwa zaterwa no kudakora siporo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugirango umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, ari muri siporo, ari no mu buvuzi, hari n'imipira yo gukina igiye itandukanye, muri siporo zitandukanye, n'ibikoresho byo kwa muganga bifashisha bavura umurwayi.

Umugabo uri muri siporo, ahagaze ari kuruhuka yinanura, yafatishije amaboko ku mutwe inyuma, kugira ngo aruhure umubiri ugarure imbaraga, akomeze akore siporo yite ku mubiri we mubuzima bwa buri munsi

Ku meza iteretseho ibintu bitandukanye ibiribwa n'imbuto ndetse n'ibyuma byifashishwa mu gukora siporo n'imidari baha abantu babaye iba mbere mu mikino ya siporo. Hariho n'ibinini byifashishwa mu buzima n'icupa ry'amazi.

Umuntu uryamye ku gitanda, yubitse inda, yashyize urubavu hejuru, yarambuye amaguru, imbere ye hahagaze muganga, ari kumukanda mu mugongo ahantu hagize ikibazo kugira abashe kumera neza.

Umugabo ni muri siporo wambaye isengeri, ahagaze ahantu mu nzu yagenewe gukorerwamo siporo, ari kwigorora, ukuboko kumwe yagushyize imbere, ukundi yagufatishije ukuri imbere kugira ngo akomeze gutuma umubiri we uguma kumera neza kandi akomeza kugira ubuzima bwiza binyujije mu gukora siporo zikenewe.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo ibikoresho bigezweho, harimo intebe zo kwicara, aho umurwayi igihe bari kumufasha, nibi bifashisha bari kuvura, abantu bafite ikibazo cy'amenyo, amaso kugira ngo bicare aho begame, babashe kumubona mu maso neza, harimo n'imashini zifashishwa.

Umugore wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, iriho supanete, imbere ye hicaye umwana arwaye, amurwaje, kugira ngo akomeze kumwitaho, umwana akire vuba asubire mu buzima busanzwe, kandi amere neza mu buryo bwihuse.

Icyumba kirimo abantu bagiteraniyemo, harimo abakombwa, n'abagore, n'abagabo, n'abasore bari guhabwa amabwiriza, imbere yabo hari umuganga uhagaze imbere y'imashini iri kwirekana amashusho ari kubasobanurura kugira ngo babashe kubyumva neza ibyo arimo kubabwira.

Amacupa ateretse ahantu y'umweru arimo umuti umwe, kuri ayo macupa hariho icyapa kigaragaza icyo iyo imiti ikora, imiti ifasha kugabanya uburibwe mu gihe umuntu afite ikibazo, ikaba yamufasha kumererwa neza atumva uburibwe bwinshi.

Abakinnyi bakina umukino, bagomba kuba birinze kugira ngo birinde impanuka zaturuka mu mukino, bakaba bavunika, bakaba bakomereka kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza mu byo bakora no mu mikino bakina.

Icyumba cyo kwa muganga kirimwo ibikoresho bitandukanye harimo; amacupa yifashishwa mu gutuma abantu bagira ubuzima bwiza. Mu macupa bakoresha babika umwuka mwiza wo guhumeka wongererwa umuntu agize ikibazo mu gihe afite umwuka muke arwariye kwa muganga.

Umugabo wicaye ari guterura ibyuma mu ntoki kugira ngo abashe kumenyereza umubiri wongere gutora imbaraga, akomere abe yagenda yifashishije amaboko ye, kugira ngo akire vuba kandi asubirane imbaraga mu buryo bwihuse.

Umugabo uhagaze ari muri siporo, ari kuruhuka anywa amazi ayanywera mu icupa rya plasitiki kugira ngo umubiri we ugarure imbaraga abashe kuba yakomeza gukora siporo neza kandi umubiri we uhagaze neza nta kibazo.

Umugabo uri muri siporo wambaye ipantaro y'umukara n'ibara ry'umweru ku ruhande n'inkweto zifunze z'umweru, n'isengeri y'umukara wambaye na ekuteri mu matwi, ari kugenda agorora amaguru yigorora gahoro gahoro kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, mu mibereho ya buri munsi.

Umugore uri muri siporo wicaye kuri tapi yarambuye ukuguru kumwe ukundi guhenye yafatishije amaboko ku birenge ari kwigorora kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza umubiri we awiteho umugume ufite imbaraga kandi umeze neza.

Ibiti n'ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byateguwe neza, bikegeranywa, bigatunganywa, bikaba byashyirwa mu bikoresho byujuje ubuziranenge, ku buryo havamo umuti wakoreshwa n'abaturage, utabafiteho ingaruka kandi wizewe.

Igikarito kirimo n'ibinini byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu gihe uwagikoresheje yari arwaye kandi kuri icyo gikarito handitseho izina ry'ibinini birimo uko byitwa n'ibisobanuro byabyo, ukuntu bikoreshwa kugira ngo uguze abashe kuwukoresha neza, utamugiraho ingaruka.

Imeza iteretseho imiti itandukanye yakozwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo.

Mu isoko rinini, ririmo ibintu bitandukanye, ririmo abantu benshi, harimo umugabo ucuruza imiti ya gakondo itunganyijwe neza, ikaba iri mu macupa atandukanye kandi kuri buri cupa hagiye handitseho amagambo agaragaza izina ry'umuti n'indwara wavura.

Amacupa arimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi kuri buri cupa no kuri buri gakarito, hagiye handitseho izina ry'umuti urimo, kugira ngo uwuguze abashe kuwutandukanya n'undi, kandi hariho n'amabwiriza y'ukuntu ukoreshwa kugira ngo wirinde kuba wakoreshwa nabi.

Ibiti biri mu bihoho aho byashyizwe kugira ngo bitunganywe bizahakurwe bijya guterwa mu murima ahantu hateguwe, nibimara gukura bizifashishwe mu gukora imiti ya gakondo bakoresha bavura indwara zitandukanye mu gihe byateguwe neza.

Akabati karimo amacupa menshi agiye agerekeranye buri cupa hejuru y'irindi kugeza hejuru, buri cupa ririmo umuti wa gakondo kandi kuri iryo cupa hometseho igipapuro cyanditseho amagambo atwereka izina ry'uwo muti n'ukuntu ukoreshwa kugira ngo ubashe gukoreshwa neza n'uwawuguze nta ngaruka bimuteye.

Amacupa ateretse ahantu, arimo imiti itandukanye yakozwe hifashishijwe ubuki kugira ngo ivure indwara zitandukanye, bakoresheje imiti ya gakondo mu gihe yateguwe neza igashyirwa mu macupa meza, kugira ngo igumane ubuziranenge, kandi yemejwe ko nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu.

Umugore uhagaze wambaye igitambaro cy'umweru ufite isakoshi mu ntoki, imbere hari ibibabi byarandaranze ku nsina byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, iyo byatunganyijwe neza.

Umusambi uteretse ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo mu gihe babitunganyije, harimo imbuto, ibibabi n'ibiti kugira ngo byose bizavanywemo imiti ya gakondo yavura indwara zitandukanye.

Abantu benshi bari mwishyamba bagiye gutembera kugirango baruhure mu mutwe batekereze neza ;bagiye kureba ahantu amazi amanuka mu musozi ajya mu manga bisa neza kandi bishimishije.

Mu byatsi bitandukanye, amababi yabyo n'amashami yabyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, iyo byasaruwe, bigatunganywa bikaba byashyirwa mu macupa cyangwa mu bikarito iba imeze neza kugira ngo igumane ubuziranenge, uzayikoresha itazamugiraho ingaruka.

Ibyatsi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo harimo n'indabyo zituruka ku bimera, ku biti, kugira ngo bitunganwe neza bikorwemo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kandi bakayishyira mu bikoresho byabugenewe kugira ngo ikomeze ifite ubuziranenge.

Agacupa gateretse ahantu k'umweru kariho icyapa cyanditseho amagambo atwereka umuti urimo izina ryawo ariwo n'ibisobanuro by'uko ukoreshwa, kugira ngo uwuguze abashe kuba yawukoresha nta zindi ngaruka byamutera.

Icupa y'umuti ukozwe mu muravumba watunganyijwe neza, kugira ngo uvure indwara zitandukanye harimo; ibicurane, inkorora ndetse n'izindi nyinshi umuntu atarondora uvura.

Agacupa k'umweru, gateretse ahantu, kariho ibishushanyo by'umuhondo, handitseho n'amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo, karimo umuti, ayo magambo asobanura izina ry'uwo muti n'icyo ukoreshashwa n'indwara uvura n'ukuntu ukoreshwa kugira ngo uwuguze amenye uko awukoresha bitamugiraho ingaruka.

Imeza iteretseho uducupa dutandukanye twifashishwa mu buvuzi kugira ngo ukeneye umuti bawumuhe kandi kuri buri gacupa hariho icyapa cyanditsweho izina ry'uwo muti ni uko ukoreshwa kugirango itandukanywe.

Igiti cy'umuravumba kikaba gifite amashami atandukanye, gifite ibibabi binini by'icyatsi kibisi, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, igihe byasoromwe neza bigatunganywa bikavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Ahantu mu gisambu hari ibyatsi bitandukanye, harimo ibyatsi byamezemo bifite amababi y'icyatsi kibisi n'indabyo z'umutuku n'izumuhondo n'izumweru, ibyo byatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye mu gihe hatunganyijwe neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byatunganyijwe neza bigahurizwa ahantu hamwe bifite isuku, leta ikemeza ko nta ngaruka bifite ku buzima bw'abantu, ikaba yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa ririmo umuti uvura indwara zitandukanye, kugira ngo abantu babashe gukira neza kandi bakawukoresha uvura indwara zirimo kurangiza vuba no gucika intege mu gihe uri gutera akabariro

Imeza iteretseho amacupa atandukanye agiye arimo imiti gakondo, yifashishwa kuvura indwara zitandukanye kandi ikabasha kuba yakoreshwa mu gihe ikenewe, mu gihe yatunganyijwe neza yizewe.

Agacupa k'umweru, kariho igipapuro kizengurutseho, cyanditseho amagambo ariho izina ry'umuti uri muri ako gacupa, n'ukuntu ukoreshwa, kugira ngo uwuguze agiye kuwifashisha, amenye ibyo agenderaho n'uko uwukoresha, atawukoresha nabi ukamugiraho ingaruka.

Imeza iteretseho amacu agiye agererekeranyije kandi ayo amacupa atandukanye, buri cupa rigiye ririho igipapuro kigaragaza umuti urimo n'indwara uvura n'uko ukoreshwa kugira ngo uwuguze abashe kuba yawukoresha neza.

Ameza ateretseho amacupa arimo imiti ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kuri buri cupa hagiye handitseho amagambo, yerekana izina ry'uwo muti n'ukuntu ukoreshwa n'indwara uvura kugira ngo uwuguze, abashe kumenya uko awukoresha.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, harimo imiti ya gakondo n'udukoresho twifashishwa bari kuyikora n'icupa rishushanyijeho ibibabi, n'umuti wifashishwa mu koza amenyo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi ahore asa neza.

Umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa, imbere ye hari udukarito turimo imiti ari kugenda ayipakiramo mu dukarito, kugira ngo ibashe kuba yagurishwa ku isoko, kandi ako gakarito kanditseho umuti n'icyo witwa, n'icyo ukora kugira ngo uwuguze abashe kuwifashisha yivura.

Umugabo uhagaze mu ishyamba ahantu hari ibiti bitandukanye, ari gusoroma amababi y'ibyo biti, kugira ngo ayifashishe akora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye, mu gihe ibyo bibabi bimaze gutunganywa neza byavuyemo imiti.

Ni igikarito kirimo imiti itandukanye yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo ikoreshwe ivura indwara zitandukanye, mu gihe yatunganyijwe neza kandi yujuje ubuziranenge, ku buryo yakoreshwa ikavura indwara, nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresheje.

Ahantu hateraniye utuntu twinshi harimo uducuma, harimo utwungu, harimo amacupa atandukanye, ubona ko ari ahantu hakorerwa n'umuvuzi wa gakondo utanga imiti ku baturage.

Icyatsi giteye mu murima, ahantu hateguwe kimeze neza, cyifashishwa amababi yacyo mu gukora imiti ya gakondo, ivura indwara zitandukanye iyo yamaze gutegurwa neza, igashyirwa mu gikoresho kimeze neza gisa neza.

Agacupa gafite ibara ry'umuhondo n'umufuniko utukura, kanditseho amagambo kuri iryo cupa, agaragaza ikintu kiri muri iryo cupa, ko harimo umuti n'indwara uvura, nuko uko ukoreshwa kugira ngo uwuguze amenye uko awukoresha ku buryo bitamugiraho ingaruka.

Umugabo uhagaze, afite ibyatsi mu ntoki bifite amababi maremare, bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye, iyo byateguwe neza, bigashyirwa mu macupa atuma bigumana ubuziranenge, bikaba byakoreshwa mu kuvura indwara.

Imeza iteretseho ibirahuri bibiri bigiye birimo umuti utandukanye, ni imiti yakozwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo harimo ibibabi bya soromwe ku mbuto no ku biti n'amazi bavanze kugira ngo bikorwe neza bitunganywa bivanwemo umuti wakoreshwa uvura indwara.

Icyatsi, gifite ibibabi n'indabyo z'umuhondo n'umweru, ibyo bibabi n'indabyo zabyo byifashishwa mu gukora imiti y' agakondo ivura indwara zitandukanye, mu gihe yatunganyijwe neza, ikaba yashyirwa mu macupa yabugenewe, igakoreshwa kandi hemejwe ko nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa gukora umuti wafatwa nk'umutobe, harimo indimu n'igikombe ukorerwamo ndetse na tangawize kugira ngo umuntu yivure, abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Agacupa gafite ibara ry'ubururu, gateretse ahantu kari kumwe n'irindi cupa ritoya rifite ibara ry'umweru, amacupa arimo imiti itandukanye kandi kuri buri cupa hariho icyapa, kigaragaza izina ry'umuti uri muri iryo cupa n'uko ukoreshwa kugira ngo uwuguze amenye uko uwukoreshwa.

Imeza iteretse ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo ibyatsi n'imbuto n'amacupa ashyirwamo iyo miti nyuma y'uko imaze gutunganywa kugira ngo ibe yakoreshwa n'ibikoresho byifashishwa bayisekura kugira ngo itunganwe ibe imera neza.

Mu ishyamba rinini, ririmo ibiti bitandukanye, muri ibyo biti harimo ibyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo kugira ngo itunganywe neza, ibe yavura indwara zitandukanye kandi nibamara kuyitunganya bayishyire mu bikoresho byabugenewe kugira ngo igume ifite ubuziranenge.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo harimo ibibabi, hari n'ibiti, hari n'imbuto zabyo, hari n'amashami yabyo. Iyo byatunganyijwe neza bigakorwarwamo umuti kandi bakabibika ahantu habugenewe kugira ngo bitangirika.

Igiti gikuru gifite amababi manini y'icyatsi kibisi ayo mababi akaba yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo iyo yahurijwe hamwe agategurwa neza agashyirwa mu gicupa cyangwa mu gikarito cyujuje ubuziranenge kugira ngo akomeze arinde uwo muti ubu umeze neza.

Icupa rifite ibara ry'umweru, kuri iryo cupa handitseho amagambo atwereka izina ry'uwo muti uri muri iryo cupa n'uko wakoreshwa kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, kandi awukoreshe neza ku buryo bitamugiraho ingaruka.

Imeza iteretseho ikibabi kinini, icyo kibabi kiriho ibinini, ibinini bikorwa hifashishije imiti ya gakondo itandukanye, harimo ibibabi, imbuto n'indabyo kugira ngo bitegurwe neza bizabashe kuba byakorwamo imiti ivura indwara zitandukanye.